Icyapa cyo kwamamaza kiriho abagabo babiri bari gusuhuzanya bambaye amakoti y'ubururu umwe yasetse yambaye n'ishati y'umweru imbere harihoho amagambo amwe yanditse n'umutuku andi yanditse n'umweru.

Ikibuga cy'imiso gitari kumwe n'imodoka aho hibanzweho ifite ibara ry'umweru wijimye ukuntu inyuma yayo hakaba hari ikigega cy'umutuku, ku ruhande rw'iki kigega hakaba hari inzu nini y'itaje igizwe n'amabara y'umweru ubururu hejuru n'amadirishya y'umukara.

Umukobwa wambaye agashati k'umukara, ufite akajerekani mu ntoki, ari kubuganiza amata y'ikivuguto mu birahure bine, iruhande rwe hari ijagi irimo andi mata, inyuma ye hari itaburiya imanitse n'akabati.

Icyangombwa cy'ubutaka kigizwe n'ibice bibiri, igice kimwe ni kigenewe ibiranga ba nyiri ubutaka ikindi gice ni ikigenewe ubundi burenganzira, ku gice kigenewe ibiranga ba nyiri ubutaka hariho nimero z'inyandiko, italiki, nimero y'i icyemezo, amazina ya ba nyiri ubutaka ndetse n'umukono wa banyirubutaka.

Ubwoko bw'amafaranga butandukanye harimo inote, ibiceri bikoreshwa mu bihugu bitandukanye nk'uburyo bwo kugura no kugurana ikintu bitewe n'icyo undi akeneye.

Igishushanyo mbonera cy'amafaranga yo mu bihugu bitandukanye uburyo agura n'uburyo agurishwa ayo muri Amerika, ayo mu Bwongereza, ayo mu Burayi, ayo mu Bushinwa, ayo mu Buyapani, ayo muri Afurika y'Epfo, ayo muri Kenya, ayo mu Rwanda byose bigaragaza uburyo agurishwa n'iryo avugwamo.

Ni ikarita y'abacuruzi baroko ahantu bacuruza ibiryo n'ibinyobwa biri, haba hariho ibiryo n'igiciro cyabyo amafaranga bigura ndetse n'uburyo ugomba kumenya ibyo uhitamo kugira ngo babikuzanire, mu buryo bwo kunoza imikorere yabo.

Isoko ry'imbuto ririmo abantu batandukanye benshi cyane, harimo ab'igitsina gore, ab'igitsina gabo, harimo imbuto z'ubwoko bwose: imineke, amapapayi, amanasi, amaronje, ibinyomoro.

Icyumba kirimo igitanda gishasheho amashuka asa ubururu bwerurutse ndetse n'ikiringiti kirimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru, kiriho n'imisego y'umweru, kiri ku makaro arimo amabara ya kaki ndetse n'umweru, n'urukuta rusa kaki, n'amarido ajya gusa umuhondo.

Inzu ndende y'itaji igizwe n'amagorofa atatu, kuri buri gorofa hakaba hariho umutambiko ufite ibara ry'umutuku, iyo nzu ikaba igizwe n'ibara ry'umweru, ifite inzugi z'umukara n'amadirishya y'umukara, iruhande rwayo hari pasiparume n'ibiti, iyo nzu ikaba iherereye Kimihurura, ku mafaranga asaga amadolari magana arindwi.